Ni umwana ukiri mutoya akaba afashe igikoresho kifashishwa mu gutera amarangi agiye atandukanye, imbere hakaba hari ibikombe birimo amarangi ari mu mabara asa n'umukara, umutuku n'icyatsi, ndetse n'andi. Ibi bikaba bifasha abana bakiri batoya mu gutegura no kugira ubumenyi ku bikoresho bigiye bitandukanye.

Ni urukuta rw'icyumba cy'ishuri rukaba rushushanyijeho ibishushanyo bigiye gutandukanye birimo ingorofane, inyama ndetse n'ibindi, ibi bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga no gusobanukirwa umumaro w'ibikoresho bigiye bitandukanye.

Ni igikuta, kikaba giteyeho irangi riri mu mabara asa umuhondo, hakaba hashushanyijeho ibinyabuzima bigiye bitandukanye, birimo amasazi ndetse n'ibindi. Ibi bishushanyo bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga ibiyabuzima bitandukanye.

Ni ibyumba by'amashuri bikaba bifite ibikuta bishushanyijeho ibikoresho bigiye bitandukanye, imbere y'aho hakaba hari ikibuga cyifashishwa mu gukora imyidagaduro, ibi bikaba bifasha abana bakiri bato mu kwiga no gusobanukirwa amasomo biga umunsi ku munsi.

Abana batoya bagomba kwigishwa umumaro w'ibikoresho bigiye bitandukanye. Ibi bikaba bibafasha mu gukura bazi imikorere n'imikoreshereze y'ibikoresho kuko baba barabyize bakiri batoya.

Ni amashusho y'inyamaswa agiye atandukanye, akaba arimo imbwa ndetse n'ibindi. Ibi bishushanyo bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga no gusobanukirwa ubwoko bw'inyamaswa zigiye gutandukanye.

Ni ibyumba by'amashuri bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga amasomo agiye hatandukanye. Iruhande rwabo hakaba hari ikigega kiri mu mabara agiye atandukanye.

Ni icyumba cy'ishuri kikaba gishushanyijeho ibishushanyo bigiye bitandukanye birimo ibinyabuzima biguruka. Ibi bishushanyo bikaba byifashishwa n'abana bakiri batoya mu kwiga no gusobanukirwa ubwoko bw'ibinyabuzima.

Ni ibishushanyo bikaba bigaragaza imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye. Bikaba biri mu mabara asa: umuhondo, umutuku ndetse n'andi. Izi zikaba zifashishwa mu kwigisha abana bakiri bato umumaro w'imbuto n'ubwoko bwazo.

Kwigisha abana bakiri bato ubwoko butandukanye bw'inyamaswa n'ibimera, bibafasha mu gukura bafite ubumenyi bw'uburyo bagomba kurinda ibidukikije, birimo inyamaswa n'ibimera.

Ni ibishushanyo. Bikaba biri mu bwoko bugiye butandukanya. Ibi bishushanyo bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga ndetse no kumenya, amasomo agiye atandukanye arimo uburyo bwo kubikoresha.

Ni ibikinisho. Bikaba ari ibikoresho byifashishwa n'abarezi mu kwigisha abana bakiri batoya. Ibi bikaba bifasha abana bakiri batoya mu kugira ubumenyi bugiye butandukanye ku bikoresho bigiye bitandukanye.

Ni ibikoresho bigiye bitandukanye, bikaba byifashishwa n'abana bakiri batoya mu kwiga no gusobanukirwa amasomo biga umunsi ku munsi, ibi bikaba bibafasha mu kwihugura ndetse no kugira ubumenyi ku bikoresho bigiye bitandukanye.

Ni icupa rikaba ririho ibishushanyo, bigiye bitandukanye. Iri cupa rikaba ryifashishwa n'abana bakiri bato mu gutwara ibyo kunywa igihe bagiye ku ishuri. Ibi bikaba bibafasha mu kwiga no mu gukurikira amasomo, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni ibyuma biriho imyicundebe, ibi bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwidagadura, bikaba bibafasha mu gukina imikino igiye itandukanye ibafasha mu gusabana mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyumba, kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye birimo amakayi ibikapu imeza ndetse n' ibi bikoresho bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga amasomo agiye atandukanye ,abafasha mu kugira ubwenge bugiye butandukanye.

Ni umwana w'umunyeshuri, akaba arimo gusoma imibare igiye itandukanye ku rubaho. Iruhande rwe hakaba hari umurezi ufashe indangururamajwi. Ibi bikaba bifasha abana mu gusobanukirwa amasomo agiye atandukanye.

Ni ibitabo bigiye bitandukanye. Ibi bitabo bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga no gusobanukirwa amasomo agiye atandukanye, arimo i Kinyarwanda ndetse n'andi.

Ni inyubako y'ibyumba by'amashuri, ikaba ikikijwe n'amago y'abaturage. Ibi byumba bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga no gusobanukirwa amasomo biga umunsi ku munsi.

Ni abaturage, bahagaze iruhande rw'inyubako z'amashuri. Iruhande rwaho hakaba hari ibiti by'inganzamarumbu, bakaba bari mu gikorwa cyo kubaka ibyumba by'amashuri. Ibi bikaba bifasha abana b'abanyeshuri mu kubona aho bigira bisagaguye.

NI abana banyeshuri bakaba bapfukamye imbere y'ikibaho kiri mu ibara ry'umukara bakaba bari kwandika amagambo agiye atandukanye, ibi bikabafasha mu kugira ubwenge no kwihugura ku masomo agiye atandukanye baba biga.

Ni ikigo cy'amashuri, imbere yabo hakaba hahagaze abana ndetse n'abantu bakuru, iruhande rwaho hakaba hari indangururamajwi, bakaba barimo kwiga ndetse no gusobanukirwa amasomo abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Kwigisha abana bakiri bato ubwoko bw'ibikoresho bugiye butandukanye, bubafasha mu kugira ubumenyi bubafasha mu gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye. Ibi bikaba bibafasha mu gukura bafite ubumenyi bubafasha mu kwiteza imbere.

Ni ibyumba by'amashuri bigerekeranye hakaba hariho abana b'abanyeshuri ndetse n'abarezi babo ibi bikaba bifasha abanyeshuri mu kubona ahantu bitagaguye ho kwigira habafasha mu gukurikirana amasomo biga umunsi ku munsi.

Ni ibikoresho bigiye bitandukanye, bikaba byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga amasomo agiye atandukanye, hakaba harimo ibibafasha mu guca imirongo, kwandika, gusiba ndetse n'ibindi, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubumenyi bugiye butandukanye.

Ni ibikoresho by'ubwoko butandukanye bikaba byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga amasomo agiye atandukanye, hakaba harimo ibyifashishwa mu guca umurongo, kwandika, gusiba ndetse n'ibindi, ibi bikaba bibafasha mu guha abana amasomo abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni ibikoresho bigiye bitandukanye. Bikaba byifashishwa n'abana b'abanyeshuri mu kwiga amasomo agiye atandukanye. Hakaba harimo ibyifashishwa mu guca imirongo, nko kwandika, ndetse no gupima. Ibi bikaba bifasha abana b'abanyeshuri mu kugira ubumenyi bugiye butandukanye ku masomo bize.

Ni ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba harimo ibyifashishwa mu guca imirongo ndetse no gusiba, ibi bikaba bifasha umunyeshuri mu kwiga no gusobanukirwa amasomo agiye atandukanye.

Ni icyumba kikaba kirimo akabati karimo ibitabo bigiye bitandukanye, ibi bitabo bikaba byifashishwa n'abanyeshuri mu ngeri zose bikaba byifashishwa mu kwiga no gusobanukirwa amasomo biga umunsi ku munsi.

Ni inyubako z'amashuri imbere yazo hakaba hari ikirango cy'igihugu ndetse n'ubusitani bumeze neza. Aya mashuri akaba yifashishwa n'abana mu kwiga no gusobanukirwa amasomo agiye atandukanye.

Ni ibikoresho bigiye bitandukanye bikaba biri mu mabara harimo umweruru, umutuku, ubururu, icyatsi, n'umuhondo ndetse n'andi ni ibikoresho bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga no gusobanukirwa umumaro w'ibikoresho.

Ni ibyiyumba by'amashuri bikaba bifite ubusitani bugizwe n'indabo zitaboshe. Inyuma y'amashuri hakaba hari ibiti birebire. Ibi byumba bikaba byifashishwa n'abana mu kwiga no gusobanukirwa amasomoga umunsi ku munsi.

Ni amashusho y'ubwoko bugiye butandukanye akaba yifashishwa n'abarimu mu kwigisha abana bakiri bato isomo ry'imibare ndetse n'andi, ibi bikaba bifasha abanyeshuri mu gukura bafite ubumenyi bwo gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri iri mu mabara y'umuhondo, kaki ndetse n'umukara, imbere yabo hakaba hahagaze umurezi, bakaba barimo kwigishwa ku masomo abafasha mu kwiteza imbere.

Ni icyumba kigari kikaba kirimo urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri, hakaba harimo umugabo ufashe indangururamajwi akaba arimo kubigisha amasomo agiye atandukanye abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri bakaba bafashe indabo, inyuma yabo hakaba hari inyubako zirimo abantu. Ibi bikaba bifasha aba banyeshuri mu kwibuka amateka yaranzwe 'n'igihugu.

Ni abaturage, bakaba barimo abakozi bambaye imyenda iri mu ibara risa n'icyatsi ,bakaba bari kwinjira mu cyumba kigari cyifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga amasomo agiye atandukanye, ibi bikaba bifasha abanyeshuri mu kubona ahantu hagari ho kwigira amasomo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyumba kikaba kirimo abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'uumu n'umukara. Imbere haba hahagaze umwarimu. Bakaba barimo kwigishwa ku masomo a atandukanye abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri. bakaba bicaye imbere y'ikigo cy'amashuri. bakaba barimo kwiga ku masomo agiye atandukanye, abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyumba kigari kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bikaba byifashishwa n'abana b'abanyeshuri mu kwiga amasomo agiye atandukanye, ibi bikaba bibafasha mu kwihugura no kugira ubumenyi bugiye butandukanye bwo gukoresha ibi bikoresho.

Ni urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri bakaba bambaye impuzankano y'ishuri iri mu mabara asa n'umweru, umukara ndetse na kakaki, bakaba bari inyuma yabo hari inyubako, bakaba bari mu gikorwa cyo kwiga amasomo abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri, imbere yabo hakaba hari umurezi uri gushira indabo ku mva. Ibi bikaba bifasha urubyiruko mu kumenya amateka yaranze igihugu.

Ni icyumba kigari kikaba cyicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu mabara y'umweru ndetse na kaki, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwiga bubanogeye.

Ni abana b'abanyeshuri bakaba bambaye impuzankano y'ishuri iri mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu. Iruhande rwabo hakaba hari abarezi ndetse n'ibyumba by'amashuri byifashishwa mu kwiga.

Ni ibyumba by'amashuri, bikaba byifashishwa n'abana bakiri bato mu kwiga amasomo agiye atandukanye, ibi bikaba bibafasha mu kwihugura no kumenya ubwenge, ku amasosomo atandukanye, abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni urubyiruko rw'abana b'abahungu n'abakobwa biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza. Bakaba bicaye mu cyumba kimwe. Bakaba barimo kuganira ku masomo abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni urubyiruko rw'abana b'abahungu n'abakobwa biga mu mashuri makuru na za kaminuza, bakaba bari mu cyumba cya kaminuza, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwiteza imbere, bakaba bari guhabwa amahugurwa agenda abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri biga mu mashuri makuru na za kaminuza, bakaba bicaye iruhande rw'igiti cy'inganzamarumbo, bakaba bari mu gikorwa cyo kwiga, ibi bikaba bibafasha mu kwihugura no gusobanukirwa amasomo biga umunsi ku munsi.

Ni icyuyumba cy'ishuri kikaba giteye amarangi ari mu mabara y'umweru, hakaba hari urugi rukozwe mu cyuma. Ibi byumba bikaba byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga no gusobanukirwa amasomo agiye atandukanye abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni ikigo cyubatse mu buryo bwa kijyambere kikaba gifite ibyumba bigari byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, ibi bikaba bibafasha mu kubona ahantu hagari bigira bikabafasha mu buryo bwo kwiteza imbere.

Ni urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri biga mu mashuri makuru na za kaminuza, bakaba bafashe impamyabushobozi. Ibi bikaba bibafasha mu kugira ubumenyi bubafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni urubyiruko rw'abana b'abahungu n'abakobwa biga mu mashuri makuru na za kaminuza bakaba bicaye mu cyumba kigari, imbere habakaba hari ibitapa birimo kwamamaza ndetse no kwigisha.

Ni icyumba kikaba kirimo urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri biga mu mashuri makuru na za kaminuza imbere yabo hakaba hahagaze umurezi ibi bikaba bifasha abanyeshuri mu kubona amasomo abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyumba kikaba kirimo abaganga bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu gupima no kuvura indwara. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye.

Ni icyumba cyicayemo urubyiruko rw'abana b'abahungu n'abakobwa biga mu mashuri makuru na za Kaminuza. Bakaba bari mu gikorwa cyo kwiga amasomo abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.